Umwana uri munsi y'umwaka umwe wazanywe n'umubyeyi kwa muganga, umuganga ari kumwitaho amuha ibyo kunywa bisa nkaho ari amata cyangwa ari indi miti, gusa ibyo bintu ari kumunywesha bisa nkaho ari umweru, umubyeyi wazanye uwo mwana arishimye cyane, ariko umwana asa nk'uri kurira kubera abana batinya imiti cyane.

Inama y'abantu batanu, igizwe n'abagabo batatu ndetse n'abagore babiri, abo bagore bari mu bwoko bw'abahinde, abo bagabo bari mu bwoko bw'abanyafurika, iyo nama iri kwiga ku ngingo zitandukanye, iyobowe n'umugabo wegereye idirishya, ufite ijambo ni umugore wambaye ibitambaro by'umutuku.

Icyumba kirimo abantu babiri, kikaba kirimo n'ibikoresho, haba ibyongera amajwi, ibifata amashusho, ndetse muri icyo cyumba harimo ifoto y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, bigaragara ko ahantu ari mu Rwanda, harimo intebe ndetse n'abantu babiri, aha ngaha n'aho ubuvuzi bubasha gutangwa neza, kugira ngo bugere kuri bose.

Ababyeyi benshi bari hamwe bose bafite abana batoya bari munsi y'ikigero cy'imyaka itatu. Abo bana bari kwitabwaho n'abandi bambaye imipira ijya gusa ifite ibara risa nk'icunga rihishije. Abo bana bari guhabwa amata ari mu gicuba.

Ubukangurambaga bwo kurwanya Ebola buri gukorerwa mu ruhame, aho abahungu babiri ndetse n'umukobwa umwe bari gukina ikinamico bereka abana ndetse n'urubyiruko bari inyuma, babereka ingaruka za Ebola ndetse n'uko yakandudura n'ukuntu bayirinda.

Abana bari mu kigero cy'imyaka hagati yo munsi y'icumi, bari gukaraba bishimye cyane amazi meza, asa neza, asa nkaho ari ivomero bahawe kuko bari guseka cyane buje akanyamuneza.

Abana benshi bose bari munsi y'imyaka icumi, bari ku ivomero rusange aho bishimye cyane, buri wese ashaka gukora kuri ayo mazi ari kuva mu ivomero rusange; abo bana bambaye imyenda ijya gusa, bisa nk'aho bose baturutse hamwe.

Corona virus nk'icyorezo cyateye mu bihumbi bibiri na cumi n'iicyenda, uburyo bumwe twakoreshaga tukirinda, ni ukwambara neza agapfukamunwa ndetse tukikingiza ku gihe. Umusaza usheshe akanguhe, ari kwikingira Corona virus ndetse ari gukingirwa n'abaganga, aho tubona abaganga batatu aribo bari kumukinira, arikumwe n'uri kumutera urushinge, kugira ngo imiti ibashe kumwinjiramo neza.

Umugabo uri hagati yo mu kigero cy'imyaka mirongo itatu na mirongo itanu, ari gutanga ijambo ku bantu benshi, harimo abashinzwe umutekano, abana, abagore, iryo jambo rishobora kuba ari ikiganiro, gusa ni ijambo ryagirira abantu akamaro.

Inama igizwe n'abantu benshi kuko harimo amameza menshi, amwe yicayeho abantu andi ntyiicayeho abantu, imeza turi kubona imbere yacu, iriho abagabo n'abagore, umugabo wambaye ikoti ry'umukara niwe uri gutanga ijambo, kandi iyo nama bari gufataho amashusho, aho aba azakoreshwa mu gihe kindi kiri imbere, cyangwa ashobora kuba ari gukoreshwa ako kanya, akabonwa n'abantu batari aho ngaho.

Ivomero rusange ryashyiriweho abantu bose rishyizweho n'ikigo cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe kwita ku bana Unicef, iryo vomero ryashyiriwe abantu bose abakuru n'abatoya, kugira ngo babashe kubona amazi meza, kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza.

Abantu batandukanye harimo abarihu urwera ndetse n'abirabura bari kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri ufite insanganyamatsiko kanseri y'inkondo y'umura iki gikorwa cyatewe inkunga n'ibigo bitandukanye harimo nka unicef ndetse n'ibindi

Ikigereranyo ku mpfu ziterwa no kwiyahura kuva mu bihumbi bibiri na kabiri kugera mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani mu Rwanda. Ikigaragara cyo ni uko bigenda bigabanuka, kuva mu bihumbi bibiri na kabiri bari benshi, ariko uko ibihe bigenda bijya imbere ni ko impfu ziterwa no kwiyahura zigenda zigabanuka.

Mu ruhame rw'abantu benshi abagabo n'abagore, babiri b'abagore bari imbere yabo bafite indangururamajwi kugira ngo amajwi yabo abashe kumvikana, barekure ubukangurambaga ku buzima bwo mu mutwe ukuntu umuntu yabasha kwitwara neza kugira ngo yirinde indwara z'ubuzima bwo mu mutwe.

Ikirango cyerekana abafashije abantu kugira ngo bwite ku buzima bwo mu mutwe ndetse kiriho abantu babashije kwitabira iyo gahunda yari igenewe abantu bose, aho icyo kirango kiriho nka kaminuza y'u Rwanda, Canada, kaminuza ya Oxford, ibyo byose ni ibyateye inkunga kugira ngo icyo gikorwa kibashe gushyirwa mu bikorwa.

Abasore basa nkaho bari mu kigero cy'imyaka hagati ya makumyabiri na mirongo itatu, bicaye ku murongo umwe ndetse bicaranye n'abandi bantu, bambaye imyenda isa nkaho baje kwivuza cyangwa se baje gufata ibintu bisa bose uko bicaye.

Uruhame rw'abantu benshi bicaye basa nkaho bari kumva ikiganiro cyangwa abari kureba ibyo bari kwigishwa, harimo abafite amakayi bari kwandika, muri abo bantu, bose barakuze, abamama ndetse n'abapapa, bari mu kigero, hejuru y'imyaka makumyabiri.

Umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka hejuru ya mirongo itatu wishimye cyane yishimiye umwana ateruye umwana ashobora kuba ari uwe kuko bajya gusa umwana ari munsi y'amezi atandatu n'umwana ari guseka cyane nkuko abana basanzwe bishimye.

Ubuvuzi bw'amenyo ni bumwe mu buvuzi buba bukeneye mu buzima bwa buri munsi, umuganga ari kwita ku mwana uri mu kigero hagati y'imyaka icumi na makumyabiri. Ari kumufasha kumukura iryinyo n'ibyuma byabugenewe, kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Abasore n'inkumi batonze umurongo, bafite udupapuro turiho amabwiriza y'ibyo bagiye kubakorera, basa nkaho baje kwivuza ubuvuzi bw'amenyo, aho ubwo buvuzi butangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima RBC, aho bari kubasuzuma amenyo hifashishijwe abaganga batandukanye.

Ubuvuzi bw'amenyo ni bumwe mu buvuzima buba bukenewe mu buzima bwa buri munsi kuko amenyo ari mu bice by'ingenzi bifasha umuntu kugira ngo amere neza, umwana uri munsi y'imyaka icumi ari gusuzumwa na muganga, aho umuganga asuzuma amenyo ye niba ari ku murongo cyangwa niba nta kibazo na kimwe afite.

Amenyo ni urugingo rw'umubiri rufasha umuntu gukaja ibiryo bikomeye kugira ngo ibyo biryo bibashe korohera mu igogora niyo mpamvu ubuvuzi bw'amenyo ari bumwe mu buvuzi bw'ingenziba bukeneye kugira ngo umuntumere neza abaganga bari kuvura umuntu amenyo yiwe kugira ngo asubire ku murongo yongere k neza.

Umugore bigaragara ko ari umuganga ari gufasha umusaza mu buryo bwo kumwitaho amuha imiti iri mu bwoko bw'ibinini, uwo musaza afite amazi kugira ngo amufashe neza kumira ibyo binini mu buryo bwiza kugira ngo abone ubuzima bwiza.

Umuntu uri mu kigero k'imyaka hejuru ya mirongo itanu w'igitsina gore, ari mu myitozo ngororamubiri kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza, iyo myitozo ari kwikorera hasi, aho yashashe akantu hasi ashyiraho inkokora ze kugira ngo zitababara, ari gukora ngororamubiri ari kugorora ndetse n'ingingo zitandukanye z'umubiri.

Ikirango cy'abantu bafite ubuzima bwiza mu Rwanda, kigizwe n'inyuguti ebyiri ndetse n'ikimenyetso kimwe izo nyuguti ni H, hagati y'izo nyuguti hariho ikirango cy'intoki ebyiri zisuhuzanyije ziri mu byerekezo bitandukanye ndetse n'indi nyuguti ya R. Munsi handitseho amazina y'icyo kirango.

Umuntu w'umusore uri kwitabwaho n'abaganga, harimo abari mu igeragezwa, usa nk'aho yagize ikibazo bamuryamishije ku gatanda basa nk'aho bagiye kumuterura ndetse hari n'umujyanama w'ubuzima uhagaze uri kubareberera, abo bose bakaba bambaye agapfukamunwa bisa nk'aho bari kwirinda indwara runaka tutazi.

Umusore usa nk'aho yagiye kwa muganga, kuko arasa n'umurwayi yambaye imyenda y'abarwayi, ahagazwe imbere na muganga wambaye ikirango cy'uko ari muganga. Ari kumukingira cyangwa se kumuvura. Aho amutera urushinge, ku kuboko kwe kw'ibumoso, ahagana mu rutugu, kugira ngo abashe kumera neza.

Ibitaro bitagaragara izina kimwe mu cyumba cyacyo kigizwe n'ibitanda bitandukanye abarwayi baryamaho, ni ibitanda bine uko tubibona imbere yacu, aho baryama ndetse hari n'utubarinda kugira ngo batagwa mu gihe wenda basinziriye cyangwa bari gukina.

Ubuvuzi ni kimwe mu kintu cy'ingenzi gifasha umuntu kugira ngo ibintu bye bigende neza imbere yacu hari ivuriro ryitwa mediya sol forumasi giherereye i Remera, i Remera ni agace kamwe ko muri Kigali k'abamo sitade ndetse n'ibindikorwa bitandukanye aho ngaha niho dusanga ivuriro ryitwa mediya sol riri imbere yacu.

Inyubako ikoreramo ibitaro byitwa mu rurimi rw'igifaransa ngo Policlinic de plateau iherereye ahagana i Remera mu muhanda uva ku gisimenti. Iyi nyubako ni iy'ibitaro isanzwe, ikoramo ibitaro byonyine ni ho bavurira abarwayi babo ndetse banabitaho.

Abantu batatu b'igitsina gore bari imbere yacu bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'utugofero bifashishwa kwa muganga basa nkaho ari abaforomo, abantu bafasha abaganga cyangwa abarwayi kugira ngo babashe gukira neza ndetse serivise zo kwa muganga kugira ngo zihute.

Inyubako iri imbere yacu isa nkaho ikoreramo ibitaro, ndetse muri ibyo bitaro hariho urujya n'uruza rw'abantu, hari abantu bahagaze bari kwinjira ndetse imodoka irahaparitse n'abantu bahagaze hanze, bisa nkaho iyo nyubako igendwa cyane, hari abantu baje kwivuza cyangwa baje gukora izindi serivisi zindi, zikorerwa muri iyo nyubako.

Inyubako isa nk'aho ikorerwamo n'ibitaro iri imbere yacu ndetse n'imbere yacu hari indangamerekezo igaragaza iyo nyubako neza, urugero hari aho babyarira mu rwiherero icyumba cy'abagore icyumba cy'ababyaye ndetse n'ibindi kugira ngo birangire umuntu wese uri imbere y'iyo nyubako.

Mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi ikintu cya mbere akenera harimo n'ivuriro, niyo mpamvu turi kubona ivuriro ririho abantu baje barigana biragaragara ko ari benshi cyane cyane abakuze, baje kwivuza cyangwa kugirwa inama kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza.

Abaganga batandatu b'igitsina gore barishimye cyane aho bazamuye igipfunsi cyabo bambaye udupfukamunwa nk'aho bari kwirinda korona virusi, abaganga bakorera mu ivuriro bita regasi kirinikisi riherereye ahagana i Kanombe kuko niko inyuma yabo handitse.

Inyubako ikoreramo ibitaro runaka, harimo icyumba, icyo cyumba ni icya muganga avuriramo abarwayi, kuko harimo igitanda ndetse n'ibindi bikoresho nk'intebe ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, bifashisha bavura abarwayi kugira ngo babashe kumera neza.

Ibitaro bikoreshwa n'abantu batandukanye, haba ari abaje kwivuza, cyangwa abaje kugirwa inama ku buzima bwabo, harimo igitanda, hakabamo aho bakarabira, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, haba ibikoresho by'isuku, kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza.

Umumama usa nk'aho akuze afite ikibazo cy'uburwayi kuko aryamye mu bitaro, aho ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye byose nibyo bimuzengurutse ndetse uwo mumama aragaragara nk'aho arwaye koko kuko mu maso ye biragaragara cyane.

Umuntu waje kwa muganga kwivuza usa nk'uwagize ikibazo mu kaguru, aho muganga ari kumufasha kuzirika aho ngaho hagize ikibazo, uwo umuganga ni umugore yambaye n'ikarita ibigaragaza, umuntu bari kuvura asa nk'aho ari umugabo, yambaye umupira ndetse n'ipantaro bigaragaza ko ari umugabo.

Umusore usa nk'aho ari mu myitozo ngororamubiri ariyo bita siporo, usa nk'aho kugira ngo ubuyanja ari kwimena amazi mu mutwe kugira ngo icyuya kigabanuke ndetse umubiri we wumve umeze neza, kugira ngo akomeze siporo bikomeze kugenda neza mu buzima bwe.

Umuganga w'umugabo ari guhugura abantu batandukanye, harimo abasore ndetse n'urubyiruko. Abahugura ku miti ya siporo abantu bakoresha, abo bari guhugurwa bafite ikaramu ndetse n'ikayi, bari kwandika ibintu by'ingenzi bari kubigisha, aho uri kubigisha ari kwikoresha uburyo bw'ikoranabuhanga bw'amashusho.

Umusore usa n'aho uri muri siporo wicaye aruhuka ari gufata amazi kugirango amwongerere imbaraga yatakaje mu gihe yari ari mu myitozo ngororamubiri ariyo bita siporo, yambaye agakomo k'icyatsi ndetse yambaye n'umwenda w'isengeri kugira ngo abashe guhumeka neza.

Abantu benshi bari mu kigero cy'imyaka hejuru ya makumyabiri n'itanu harimo aba mama ndetse n'abapapa ndetse n'abasore n'inkumi bari mu myitozo rusange aho imbere yabo hari umutoza ari kubakoresha imyitozo ngororamubiri ibyo uwo mutoza ari gukora nabo bari kubyigana.

Umuntu usa nkaho ari igitsina gore kubera umusatsi uri kugaragara, ari mu myitozo ngororamubiri, aho amaboko ye abiri yafashe ukuguru kwe kugira ngo akugorore kubashe kumva kumeze neza, uyu mugore cyangwa umukobwa yambaye imyenda siporo, agakabutura ndetse n'isengeri.

Ibitaro by'ikigo cy'Igihugu cya gisirikare byo mu Rwanda byashyize hanze ibintu byose gitanga, serivisi zose zitanga, harimo ubuvuzi bw'imiti, siporo n'ibindi byose kugira ngo abantu babashe kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa uri mu kigero hagati y'imyaka makumyabiri na mirongo ine, ari mu myitozo ngororangingo aho yunamye ukuboko kwe kumwe kw'ibumoso kwafashe ukuguru kwe, ukundi kuboko kwakoze mu mugongo, ari gukora agorora ingingo ze kugira ngo zibashe gukora neza mu buzima bwiza.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri ariyo basanzwe bita siporo, afite ibikoresho by'ikoranabuhanga, ariyo saha ari gupima uburyo amaraso ari gutembera mu kuguru kwe ari muri siporo, uyu musore aricaye yambaye ikabutura, yambaye n'isengeri biri kumufasha gukora siporo neza.

Umuntu uhawe umugore cyangwa umugabo wambaye impeta bigaragara ko afite urugo cyangwa afite umugabo, ari kwikorera ubuvuzi bwo kwishyiraho urubura ku ruhu, kugira ngo niba yakomeretse cyangwa yavunitse, abashe kongera kugaruka mu buryo.

Umuntu w'igitsina gore uri mu myitozo ngororangingo aho iyo myitozo ari gukora iruhande rwe hari ibikoresho bitandukanye nk'amazi ndetse n'ibikoresho byo guterura, imbere ye hari amashusho niho ari kurebereba iyo imyitozo ari gukora ibyo ari kurebera mu mashusho nibyo ari gusubiramo.

Ibikoresho bitandukanye, harimo akuma baterura, ndetse n'imbuto ndetse n'amazi. Ibyo bikoresho byose ikintu bihuriyeho, ni uko bifasha umuntu uri muri siporo kugarura imbaraga, cyangwa akaba ari byo akoresha ari mu mbaraga. Urugero nka pome ifasha umuntu kongera imbaraga z'ibyo yatakaje.

Igiti kitari kirekire gisa nkaho kimaze iminsi mikeya kimeze, ni igiti k'icyatsi gifite amababi y'icyatsi aho icyo giti bagikoresha mu buvuzi gakondo, aho bafata ibibabi byacyo bakajya kugikoreshamo imiti isanzwe ikoreshwa ahantu hatandukanye.

Imiti itandukanye ifasha mu buzima bw'umuntu kugira ngo bumere neza, iyo miti harimo F cumi na gatanu ndetse n'indi, yose ni imiti gakondo ikomoka ku bimera, abantu bakoresha mu buzima bwa buri munsi.

Umuti bita reyishi uvura amibe niwo tubona imbere yacu, uriho n'ibimenyetso bitandukanye. Urugero hariho nk'amara igice cy'umubiri kibamo imbere reyishi niyo yonyine ishobora guhangana na amibe ku kigero cyo hejuru haba ku bagabo ndetse no ku bagore.

Abantu babiri, umwe afite umuti w'ameyo, undi afite uburoso bw'amenyo, ufite umuti w'amenyo ari gushyiriraho uburoso bw'amenyo kugira ngo abashe kujya gukora isuku y'amenyo kuko isuku y'amenyo iri mu kintu k'ingenzi umuntu agomba kwitaho buri munsi, uko bwije n'uko bukeye.

Imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi gakondo iyo miti irasukika iri mu macupa, ayo macupa akaba afite imifuniko y'icyatsi ndetse iyo miti ikaba isa n'icunga rihishije muri iyo miti imwe irasa n'icunga rihishije cyane indi irasa n'umuhondo mo gake.

Igiti kirekire cyane gifite amababi y'icyatsi ari hejuru, kiri mu bwacu bwiza butoshye, asa nkaho ari mu gihe cy'izuba, icyo giti bagikoresha mu gukora imiti y'ubuvuzi gakondo aho babukoreshaga kera, n'ubu basigage babukoreshe ariko mu buryo bundi bugezweho.